Inama y'umushyikirano yahuje abayobozi benshi cyane bo mu nzego zose barimo abaminisitiri n'abasena bose bateraniye hamwe bari gukoma amashyi bafite amajuice cyangwa amazi bari kunywa.

Ubufatanye, gushyira hamwe birakenewe bituma mugera kuri byinshi. Aba ngaba bishyize hamwe bariyegeranya bakora ibintu birebire bitewe n'uko umwe yagiye ahagarara ku wundi, abandi bagafatana kugira ngo bubake ubumwe.

Aba ni abagore bari guhugurwa. Bambaye umupira wanditseho Ndabaga n'ingofero zanditseho PK bisobanura Paul Kagame. Ndabaga yari umukobwa w'intwari cyane bigaragaza ko barimo gutoza bano bagore kuba intwari. Bafite juyise bamwe bahisemo kunywa amazi.

Iyi ni nama yitabiriwe n'abaturage bose barimo n'abayobozi b'inzego z'ibanze abutugari, ab'imirenge ndetse n'umuyobozi mukuru wa Polisi uhagarariye akarere kacu, n'umuyobozi w'umurenge, bateraniye muri iyi nama.

Aba ni abayobozi bari gushimira umuturage watanze mituweli, yifashishije ejo heza, bari kumushimira kubera ko yabaye indashyikirwa, akaba intangarugero mu bandi baturage bose, bari kumuha ishimwe ry'uko yabigenjeje neza.

Aba ni abayobozi b'abagabo harimo n'abagore n'abasore bicaye mu ntebe nziza cyane zifite ibara ry'umutuku n'akantu ko kuruhande ka akuma gasize irangi rijya gusa umuhondo, bicaye muri salle bari mu nama bafite amakayi bari kwandika ibyo bumvise.

Abadaso ndetse n'abandi bayobozi bose bari gukora amahugurwa, bahugurirwa muri sare nini cyane kugira ngo babyumve baraporojegita, hanyuma bagakoresha mikorofone, bose bakabyumva.

Abayobozi bari mu nama, baricaye bateze amatwi umuyobozi ibyo ari kuvuga, iruhande rwabo harili ji, hari amazi, buri wese aranywa icyo ashoboye, niyumva agize inyota.

Aba baturage bari mu nama bicaye ku ntebe z'ubururu, harimo n'abahagaze bicaye ku zuba bagiye bafite hagati yabo hagiye harimo ibyapa by'ubururu n'ubundi byanditseho amagambo, baricaye bakurikiye ibyo umuyobozi ari kuvuga bateze amatwi.

Mu muco nyarwanda igisabo gicundirwamo amata bari kuyabuganizamo kugira ngo babone uko bayacunda bakoresheje icyansi acundwa n'abakobwa beza cyane bambaye neza basa neza bafite umuco nyarwanda.

Mu muco nyarwanda tugira kubyina abakobwa bakabyina bambaye imishanana n'abahungu bakabyina bababambaye amayogi, bashyize n'uturiba mu mutwe kugira ngo bagaragare neza. Babyina neza baseka kandi bishimye, ibyo bakora biba bibarimo.

Iki ni igiseke gifite ibara ry'umweru n'iry'umukara, kiboshye neza cyane, gifite n'umuvuniko mwiza urimo ibara ry'umweru n'umukara, mu Rwanda igiseke ni ikintu gikomeye cyane gifatwa mu muco nyarwanda, bagikoresha ahantu henshi cyane.

Aba ni abantu ba cyera, izi nyogosho zabo bazitaga ibisunzu. Mu biyogosheshaga gutyo wari umuco harimo abami, abatware bo mu gihe cya cyami, cya cyera ku ngoma ya cyami.

Aba ni akobwa b'abanyarwandakazi, bari kubyina imbyino Nyarwanda harimo n'abasore bazi kubyina neza cyane rwose, barishimye bari kubyina ahantu mu kirori, ubakenye nawe wabatumira bakaza baka kubyinira kuko ba bikora neza cyane, babyina imbyino gakondo z'umuco Nyarwanda.

Iki ni ikirori cy'umuco gakondo aho hari abakobwa beza bambaye neza cyane bicaye hasi bya kinyarwanda, haruguru hari abakaraza bari kuvuza ingoma, hari n'umuhungu wambaye imikenyero y'umweru ufashe mikoro, yegeranye n'abakobwa bari kuririmba, hirya hari ibyuma bya kizungu harimo piyano, gitari ndetse na sembari.

Hano bari gusya amasaka ku rusyo hariho ingasire n'ibyo bayiseresha, ari kuyasya agwa ku ntara, ni ibyakorwaga kera n'abanyarwanda ibyuma bisya bitaraza iterambere ritarabaho bakoreshaga urusyo.

Uduseke twiza cyane, uduseke ni'umuco nyarwanda, ni tumwe mu dutako twiza, badushyira ku mafaranga, badukoresha mu bukwe, badukoresha bagiye gusura abantu, baratwifashisha ndetse muri rusange ni ingirakamaro.

Mu muco w'u Rwanda abanyarwanda bagira imbyino zihariye, indirimbo gakondo, abakaraza bazi kuvuza ingoma neza cyane abandi bagakoma amashyi abandi bakaririmba, imbere haba hari n'ababyinnyi babyina neza bateze amaboko nk'Inyambo.

Uyu n'umuriro w'amashanyarazi. Aho byagize ikibazo, inkuba ikabikubita, imvura yaguye irimo inkuba nyinshi. Bitwara amashanyarazi uyu muntu yaje kubisana, aho byangiritse ari kubikora kugira ngo abaturage bakomeze bacane, umuriro w'amashanyarazi.

Mobisoro, uyu ni umuriro ukoreshwa n'izuba, bashyira umurasire hejuru y'imbati ku nzu, hanyuma akaza bakamanika cash power yayo mu nzu, akakwereka n'utuntu ucaniraho. Uyu ni umukozi ubishinzwe, arikwereka abo amaze khmanikira uburyo bikoreshwa.

Aba ni abakozi bo muri eregitirisiti bari kumanika umurasire utanga umuriro mu kuvanaho umwijima hakaboneka urumuri bari kugira ngo babyesitare neza babicomeke ku buryo abaturage baturiye kano gace bazajya baracana umuriro.

Ni umuriro w'amashanyarazi, ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi, uyu ni umukozi ubishinzwe wabihuguriwe uri kuza kubihuza, akabikanika kugira ngo abaturage babe ahabona, hari kwaka kandi hasa neza. Ari guteranya insinga no kugira ngo yohereze umuriro mu mashanyarazi kuri buri kash power.

Umuturage ku isonga iterambere hose ritugereho, uyu numuriro w'amashanyarazi, umuriro w'amashanyarazi wajyanywe mu cyaro kugira ngo abaturage nabo bajye bacana bajye bacana babe ahabona, hano ni mu bigori bagiye banyuza amapoto.

Umuturage ku isonga. Aha ni mu rwanda, aho buri gace kose cyangwa buri muturage, buri mudugudu bahegereje umuriro w'amashanyarazi, buri muturage wese atuye ahabona, ahagaragara barakora, urabona ko insinga bagiye bazikura ahantu mu cyaro hateye insina hari imihanda yo mu cyaro.

Uyu ni umurasire ukoreshwa n'izuba, ugira amatara atatu ukagira n'umurasire nyine kimwe bashyira hejuru y'ibati, ukagira n'akashipawa yayo bashyira mu nzu, bacagingaho telefone ndetse bakaba bacagingaho n'ibindi bintu by'umurasire nyine ku gihe umuriro wabuze.

Igicumbi repubulika y'u Rwanda, Intara y'Iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Barija, Umurenge wa Kinihira. Indangagaciro; gukunda Igihugu gukorera ku ntego, gusigasira ibyagezweho, kurandura ingengabitekerezo. Kirazira kugambanira Igihugu, kutubahiriza gahunda za leta, gusenya ibyagezweho, kunywa ibiyobyabwenge, kubiba ingengabitekerezo.

Ibiro by'umurenge wa Musheri handitseho hariho ikirangantego k'itangazamakuru rya tereviziyo y'u Rwanda rba bari bahasuye bafata ifoto yo kugira ngo bazerekane mu makuru ko ibiro by'umurenge wa Musheri byubatse neza kandi ari byiza.

Aha ni ku kiraro byubatse hejuru y'amazi, murabona ko bagikoze neza cyane, imodoka ziri kuhanyura n'amagare ri kuhanyura, kimeze neza , cyujuje ubuziranenge ku buryo nta mpanuka yahabera no kumpandi bashyizeho ibyuma bituma imodoka cyangwa igare bitajya ku ruhande bibi byakwitura mu mazi.

Uyu ni umubyeyi uhetse umwana, afite marete afite n'undi mu kaboko, bagiye gusaba serivisi kwa muganga, umwe nyine aramuhetse undi amutwaye mu ntoki. Uwo utwaye mu ntoki niwe mukuru uwo ahetse ni umutoya, arabajyanye yanze kubasiga mu rugo.

Hano ni muri stade amakipe ya huye baje gufana inyubako ya guverinoma ziba zarubatswe' n'ibikorwa remezo ,sitade yubatse neza cyane irIho amabra y'idarapo ry'u Rwanda. Iyo abantu baje kureba umupira baba bicaye bawureba neza kubera ko ari ahabugenewe baba bari ntawe uri imbere y' undi kuko ibyicaro bigenda birutana.

Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Barija, Igicumbi cy'Umudugudu wa Barija ya kabiri. Indangaciro: gukunda igihugu, kugira isuku, gusigasira ibyagezweho, gutanga mituweli, kurwanya imirire mibi, kurwanya ruswa, kwitabira umuganda. Kirazira: kugambanira igihugu, gukoresha ibiyobyabwenge, kurwaza bwaki, gufata abana ku ngufu, no kwihanira.

Amateka yacu yaranze u Rwanda mu 1994, habaye Jenoside yakorewe abatutsi, bituma tubura abacu benshi cyane bazize iyo Jenoside, aha ngaha ni imibiri y'abagize ibibazo by'abiciwe muri iyo Jenoside igiye gushyingurwa mu cyubahiro, mu rwibutso rwa Nyagatare hari abantu bagiye gushyingura.

Abayobozi bari kujya gushyira indabyo bunamira abihishwe bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mu Rwanda tugira igihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside tukabunamira. Bari gushyiraho indabyo ku mibiri yashyinguwe mu cyubahiro.

Aha bari gukora umuganda wo gusarura ibiti bashaka kurimbura ibiti bishaje biri mu murima bagakorera ibiti bikiri bitoya bari kwasa abaturage bazitwarira ni umuganda rusange wabaye; hanyuma nibamara inkwi, kuhasenkwiwe ibisigaye bazabirimbura.

Uyu musaza yari gutanga ikirego mu nama, ibintu byamubangamiye ari kubivuga, hifashishijwe mikoro kugira ngo ikibazo cyumvikane kubera abantu aba ari benshi, avuge cyane bose bumve ikibazo afite hanyuma ashakirwe ubutabera.

Aba basirikare nyuma yo gukora siporo bavuye mu myitozo ngororamubiri, umuyobozi wabo afata ijambo akabaganiriza, ababwira akomeza kubakundisha igihugu, avuga ko kurwanira Igihugu ari ihame kandi bagomba gukomeraho, baba bakurikiye bateze amatwi, harimo n'utwana tuba dufatanyije na bo, turi gukora siporo.

Uyu ni umuyobozi w'akagari, ari mu nteko y'abaturage b'akagari, ari gukoresha mayikorofone kugira ngo kubera ko abaturage benshi kugirango ngo navuga bamwumve, bumve impanuro cyangwa se impuguro abaha.

Aba ni abaturage harimo n'abajyanama b'ubuzima bicaye mu nama bateze amatwi, harimo abagore abagabo ndetse n'abasaza bakuzemo ariko badashaje cyane, harimo umugabo wicaye ageratse akaguru ku kandi yifashe ku itama n'ababyeyi bateze amatwi bari kumva.

Kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu twibuke twiyubaka. Yari insanganyamatsiko y'u mwaka ari nshuro ya mirongo itatu, iba mu kwibuka tuniyubaka ahangaha ni igikorwa kiba buri mwaka mu rwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana acyenda na mirongo icyenda na kane, tuba turi kwibuka abacu bayizize.

Uyu ni umucuruzi uvuye kurangura kotex, ari mu muhanda kuri moto, atwaye moto yazihambiriyeho nyinshi cyane, ari kujya kuzicuruza iwe, hirya hari amazu n'ubundi akorerwamo ubucuruzi, n'abantu benshi bari mu gasantere.

Aha ni mu muhanda wegeranye na gare, aho abamotari baba baparitse bari gushaka abagenzi bavuye mu modoka bavuye mu mihanda itandukanye kugira ngo bageze ahantu imodoka itabagejeje. Aba bamotari babiri bari kuri moto zisa nizogeje.

Uyu ni umuhanda rusange unyuramo ibinyabiziga byose imodoka, amagare, moto ndetse n'abanyamaguru nabo banyuramo ariko bo bagendera ku ruhande kugira ngo batabagonga, hari icyapa cyanditseho mirongo inani, hirya hari ibiti byiza biteye ku mpande.

hano mu masaha ya ni mugoroba hagati ya saa moyo na saa kumi nebyiri n'igice, ku itara ryo ku muhanda hari abantu bari kuva mu gutembera berekeza mu rugo, hari amatara nyine ya yandi yo kumuhanda atuma abantu babona urumuri hataba umwijima.

Imodoka ya kwasiteri iri kugenda ya ero efutisi Nyagatare irimo abagenzi bamaze gukatisha baragiye baracyari muri gare bagiye guhaguruka isaaha babahaye zigiye kugera.

Hano ni mu muhanda aho abantu babiri bahikanye umwe yambaye ikasike y'imutuku undi yambaye iy'icyatsi batwaye moto ya bogisa iri mu muhanda wa kaburimbo inyuma yabo hari amazu.

Iyi modoka ihagaze muri gare ku cyapa, iri kwinjiza abagenzi bagenda n'abagarukira hano muri gare bari kuvamo, kugira ngo ikomeze abagenzi nabo bagire bajye mu modoka.

Aha ni ku muhanda ku cyapa cy'umuhondo hari kwaka rya tara rya n'ijoro riva ku muhanda ryaka umuhondo, riri gukongeza kuri kano cyapa cyanditseho e eni ijana na makumyabiri n'umunani hagati y'ahantu hepfo igipangu cy'umuturage.

Iyi ni modoka y'ivatiri iri mu muhanda. Inyuma yayo hari inzu ya bare yanditseho sikoro iriho na gatanu. Bivuze ikaze muri bale Umutuzo. Iyi modoka nyine banyirayo bari baje muri bare kuhanywera barataye.

Iyi ni inama y'abaturage yabereye ahantu ku kibuga abaturage baricaye bateze amatwi ibyo umuyobozi avuga, harimo n'umuyobozi ushinzwe umutekano wa polisi, uhagarariye polisi, hakazamo n'umuyobozi w'Umurenge ariwe uri imbere aha ngaha mureba uri gutanga amahugurwa.

Iyo habaye umuganda buri wese aba asabwa kuwukora kuko twe tuba dukorera igihugu cyacu kandi tuzacyubaka twubake u Rwanda twifuza, aho n'abayobozi baza kwifatanya n'abaturage bakora umuganda, urugero uyu ni umu polisi uri guterura ibuye ababereye abandi urugero rwiza.

Hano bari gututira ibiti byo guhembeza, iri ni ishyamba ryafatanye, ririmo ibyatsi bya kimeza by'inzitane cyane, bari gushakamo ibiti byo gushingiriza ibishyimbo.

Abanyeshuri ku rugerero bari gutunda amabuye yo kubakira umuntu utishoboye tuwarete, bari kubikora bishimye nk'inshingano bubaka igihugu cyababyaye kudira ngo bagiteze imbere.

inteko rusange y'umurenge wa Nyagatare bamaze kwakira umuyobozi mukuru w'akarere, meya yabasoye, amaze kuba ijambo cyane menshi cyane bari kumushimira kandi bamwishimiye nk'umuyobozi mwiza wabagejeje kuri byinshi.

Ni umuganda rusange uba mu kwezi rimwe, ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi, aho abaturage n'abayobozi bishyira hamwe bagakora umuganda, hano bari kwagura umuhanda wari mutoya, bari kuwagura kugira ngo ube munini, hari abasirikari, abapolisi, abayobozi ndetse n'abaturage muri rusange.

Abashinzwe umutekano, abayufu volontiyazi, abaturage bose bafatanyirije hamwe, bari gutema ibihuru birinda imibu itera malariya, bakoze umuganda wo kubitemagura kugira ngo haboneke hase neza.

Uyu mupolisi ari gutanga inama ku baturage bo mu karere ka Nyagatare, ababwira ko gu gukoreshasho ibyobyabwenge atari byiza, ndetse ababwira ko uzafatwa azafungwa kandi azahanwa by'intangarugero.

Uyu ni umuganda rusange w'umurenge; abaturage bari gushomba amabuye yo kubaka inzu y'umuturage utishoboye, barabyishimiye cyane bakorera hamwe gufatanya n'inzego z'umutekano, harimo abasekirite n'abanyobozi bo mu nzego z'ibanze.

Uyu ni umuganda wakozwe n'abaturage bose cyane bari kubaka inzu y'umuntu utishoboye, harimo abanyeshuri basoje bari ku rugerero basoje amashuri yisumbuye mu wa gatandatu harimo abapolisi, abadaso, abasirikare, abayobozi bose ndetse n'abandi baturage bari kubumba amatafari kugira ngo bubakire abantu batishoboye.

Uyu ni umuganda wabaye abayobozi bifatanyije n'abaturage bari kubakira bari kubaka inzu y'umuturage utishoboye hano hari meya w'akarere afashe itafari hirya hari umusirikare ufite icyondo bari gukoresha kugira bubake inzu.

Aba bana bari ku kigo cy'amashuri aho habaye umupira uhuza ibigo bibiri harimo pirimeri n'iyindi pirimeri yo ku kindi Kigo bahuye bari gukina baze kureba ikipe itsinda ikipe yatsinze ni iyi yambaye amajipo y'ubururu n'icyatsi bari guserebura insinzi.

Aha ni mu kibuga, aba ni abakinnyi b'umupira amakipe abiri, imwe yambaye umukara uri mu ibara ry'ubururu, andi yambaye amakabutura ya orange n'umupira w'umweru, bose bari guhatanira gutsinda, birukanka ku mupira, bari mu kibuga cyiza cyane, kirimo jaride hirya, imeze neza.

Umupira w'amaguru ugira abakinnyi cumi n'umwe barimo na nyezamu, akaba ari amakipe abiri imwe yambaye umuhondo iyindi ayambaye ubururu, bari gukina umupira w'amaguru bacengana kugira ngo byanga bikunda haboneke ikipe itsinda indi batahane intsinzi.

Aya ni amakipe abiri akina umukino w'ama umupira w'amaguru, aho iyo umukino ugiye gutangira babanza bagasuhuzanya abakinnyi kugira ngo bamenyane nyine bahurire mu kibuga baziranye, imwe yambaye umutuku indi yambaye ubururu.

Siporo rusange umunsi wahariwe siporo mu Gihugu aho abantu bose bazinduka mu gitondo kare cyane gukora imyitozo ngororamubiri, bagafata urugendo nk'ibirometero bibiri bari kuzenguruka bari gukora mucaka, barangiza bakajya gukora siporo ngororamubiri zituma bagorora umugongo.

Ari mu kibuga cya Football aho amakipe abiri ari guhangana kugira ngo barebe iratsinda iyindi. Harimo n'umukoci ushinzwe gusifura, umupira w'amaguru areba ahari amakosa n'ahari ikibazo. Ikipe imwe yambaye inifomu y'ubururu indi yambaye iy'umuhondo.

Uyu ni umunsi wa siporo mpuza rubyiruko yabaye, iba ku cyumweru mu gitondo kare cyane saa kumi n'ebyiri, aho abantu baganira aho baribuze guhurira, bakahahurira hanyuma bagakora siporo bakazenguruka, imbere yabo hari imodoka, ishinzwe ya polisi ishinzwe gucunga umutekano, ireba neza ko mu muhanda nta kibazo kirimo.

Nyagatare disitirigiti umurenge Kagame Cub. Site ya Nyagatare niyo yabaye iya mbere, itsinda umurenge Kagame Cup mu mupira w'amaguru umurenge wa Rukomo niwo wayitsindiye bayihayee ibihumbi maganatatu.

Siporo ni nziza mu mubiri w'umuntu zigorora amagufwa, zituma imisemburo itaba myinshi cyane, zirinda indwara ziterwa no kudakora siporo, zigorora imitsi, zifasha umuntu cyane cyane kugira ubuzima bwiza, iyo ukora siporo ntabwo urwaragurika.

Siporo rusange abaturage bo tugari twa nyagatare, bari gukora siporo, bose hamwe bitiranyirije hamwe kugira ngo birinde indwara z'imitsi, bagorore amaguru.

Aha ni muri stade, aba bantu baricaye bari kureba mache uko iri kugenda bafite amatsiko y'ikipe iri buze gutsinda, indi harimo abakozi yabayasirikare ndetse n'abandi bantu baje kureba umupira w'amaguru.

Iyi ni ikipe yiteguye kujya mu kibuga iri gufata ifoto iri kumwe n'inshuti zayo harimo nyezamu, abakinnyi ni cumi n'umwe ni nk'uko bajya mu kibuga harimo n'abasimbura, aba ngaba bari gufata ifoto bifotozanya na bo kugira ngo bajye mu kibuga kandi banabifuza umugisha.

Hano ni muri sitade, harimo abafana baje kureba umupira uko uragenda, mu gihe umupira utaratangira bari gufata ifoto, kugira ngo bishime, kandi noneho ikindi utari uzi, ku mwanya haba hariho nimero y'umwanya wicayeho. Hariho cumi n'ebyiri, cumi n'eshatu kuzamura kugeza ku myanya yose iba muri sitade.

Hano ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, aho umuyobozi avuye gutanga uburenganzira bwo kugira ngo amakipe akine, harimo umukinnyi wambaye nimero esheshatu, wambaye amagezi y'ubururu n'amasogisi y'ubururu.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, hari umwana wumuhungu, ufite igipine cg se ikiziga, mu maguru ye n'agati ko kugicugisha, ari kubanza yareba haruguru ko nta binyabiziga biri kuza bitaza ku mugonga kugira ngo ngo abone uko acunga igipine.

Umuhanda wa kaburimbo umaze iminsi itari mike ukozwe, urimo irangi ry'umweru rigaragaza itandukaniro ry'umuhanda w'abazamuka n'uwabanuka, hirya yaho hari imihanda y'abagenzi, yakorewe abagenzi bagenda n'amaguru.

Hano ni umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda, hari umuhanda unyuramo ibinyabiziga n'umuhanda wagenewe kunyuramo abanyamaguru. Hirya hari umukobwa uri kugenda n'amaguru mu muhanda wabugenewe, uri kuri telefoni ari gucata.

Umuhanda w'igitaka urimo imikuku, iruhande rwayo hari ibyatsi harimo n'inka iri kuririsha, ruguru cyane hari inzu ituyemo umuntu, ruguru hari n'indi Midugudu ituyemo abantu benshi cyane.

Umuhanda urimo abantu bari kwiga moto bakoresheje iy'Ajesi harimo n'abandi bari ku igare, hari n'abandi bahagaze ruguru bari kwiga moto bashaka ibyangombwa harimo perimi, porovizwari ndetse n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo abantu, urimo turiya tubara tw'umweru tugenda twerekana ibimenyetso by'amategeko y'umuhanda, ku mpande hari inzira abanyamaguru banyuraho kugira ngo batanyura mu muhanda bakabagonga, hirya y'umuhanda hari ibyatsi.

Uyu ni umuhanda unyurwamo imodoka mu bice bibiri, igipande cy'imodoka zizamuka n'igipande cy'imodoka zimanuka. Igipande cy'imodoka zimanuka kinyura iburyo igihe ikizamuka kikanyura ibumoso, hirya bari umuhanda basiye abagenzi bagenda n'amaguru.

Uyu ni umusore uvuye kuvoma amazi, ahetse amajerekani atanu, abiri mu mpande, andi abiri ku ntebe y'igare n'indi hejuru, ari kuyasunika kugira ngo ayageze mu rugo.

Aha ni kuri geti porotayi y'urugo rw'abakire nziza cyane yubatse neza. Ifite akantu hejuru kiyeza gatuma amazi atagera ku rugi. Ifite urugi rwiza n'igipangu cyayo ni kiza ikikijwe n'ubusitani.

Aha ni mu muhanda, aho mucuruzi avuye kurangura amakarito y'ibyo acuruza, ahita apakira kuri moto ayapakinga, yahagaritse umunyonzi aramufasha guhambira, kugira ngo bigende bimeze neza, bitaza kugwa. Umunyonzi yaparitse igare iruhande rwabo hari igitoki.

Aha ni mu muhanda hirya y'aho hari ibiti kandi hari n'ibyapa byerekana uko umuhanda uteye hari akagaragaza ko umuhanda ufata, hari n'akandi kagaragaza ko harimo amakorosi inyuguti ijya kumera nka zeru iri kugaragaza ko harimo amakorosi nyine umuhanda ugiye ukatakata kugira umuntu atwaye abimenye ataza gukora impanuka.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, unyuramo: imodoka, moto, amagare, abantu n'amaguru, bose banyuramo bajya gusura abantu bagenda bagaruka, impande zabo hateye indabyo nziza cyane, umucaca, pasiparumu, hari imigenda inyuramo amazi, hari ibiti by'ibidukikije.